Ifumbire ni ingirakamaro cyane ku bahinzi ndetse natwe, kubera ko bituma bahinga neza natwe tukabona ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo ibirayi, ibijumba, ndetse n'ibigori n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umurima wiganjemo ingano, gutera ingano ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, bitewe ko Zifashishwa zivamo ibintu byinshi havamo ifararini bakoramo amandazi n'ibindi bitandukanye, harimo imigati, umutezi w'umuti ni ingirakamaro cyane kuko atuma bimera neza cyane.

Hano hari igikoresho cyifashishwa mu guhinga aricyo imashini, ni igikoresho gikunzwe cyane mu buhinzi.

Umuti ufasha ibihingwa iyo babiteye, gukura neza kubona umusaruro uhagije, bityo rero bigatuma abantu benshi bawukoresha, ukaba uguzwe cyane mu bihugu byo muri Afurika, kubera ko bakunze guhinga.

Umuti ni ingirakamaro ku bihingwa byinshi bigiye bitandukanye, haba harimo ibirayi, ibyatsi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, n'ibishyimbo.

Impungure cyangwa se ibigori ni ingirakamaro ku babihinze ndetse n'ababirya, kubera ko byifashishwa havamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba akawunga igikoma ndetse n'ibindi byinshi.

Hano hari ipombo: ni igikoreshwo gikunzwe gukoreshwa batera ng' umuti ibirayi cangwa inga barimo bayitera umuti.

Urujya n'uruza rw'abantu bari gutera umuti mu muceri, ni igihingwa gihingwa ahantu hari ibishanga gikunzwe cyane ku isi hose higanjemo muri afurika muri East Africa na west africa n'ahandi henshi cyane.

Ikawa ni igihingwa gihingwa mu butaka gikunzwe cyane ku isi hose; kandi cyiza. Gituma umuntu iyo akinyweye adashaka gusinzira, bibi ibyo...

Umurima ni ingirakamaro cyane ku bahinzi. Umuti ni ingirakamaro na wo ku bahinzi, kuko bawutera ibyo bahinze bikamera neza, bigatuma udusimba tutabirya.

Amafi ni ibiribwa byibera mu mazi. Bikunze kuribwa n'abandi benshi ku isi hose. Inyanya ni igihingwa kiribwa ahantu hose gifatwa nk'imbuto.

Hano harimo igishanga ,harimo umundu uri gutwara ubwato ,afite ingasha mu ntoki ,arimo aragasha...

Amafi bajya barata mu rurimi rw'icyongereza fishi . Ni ikiribwa kiba mu mazi ,gikunzwe n'abantu benshi ku isi hose ,bityo rero bigatuma kigira agaciro kanini cyane.

Ifi ni ibibwa biva mu mazi, ndetse bikunzwe cyane ahantu hose ku isi. Bikaba ari byiza cyane mu mubiri, kubera ko bifata umwanya kimwe n'inyama bikaba birushaho n'inyama.

Ndabona udufi dutoya, twinshi cyane bakunze kwita indagara, mu igihe bazanitse, zumye zikagezwa aho gucuruzwa.

Amafi ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu cyangwa se bajya barita mu rurimi rw'icyongereza fishi, kikaba ari ikiribwa cyo mu mazi gikunzwe cyane cyose cyane n'abatuye isi.

Inyanja se cyangwa akagera abantu barebamo amafi n'ibiribiribwa byibera mu mazi bikunzwe cyane ku isi hose ubwato ni igikoresho cyifashishwa mu kugenda mu mazi ntakibazo ufite.

Firigo ni igikoresho cy' amashanyarazi gikoreshwa mu gukonjesha ibintu harimo: imbuto ,n'ibindi n'ibindi ...no kurinda ibintu ngo bidapfa.

Kubiribwa bikunze kuba mu mazi ,bukaba bwitwa amafi ,bikunzwe n'abandu benshi cane ,ubwoko bwabyo ,bukunze kubwita ibyapa,

Aha hari ubwato, bukoreshwa mu gutwara abantu benshi, bambuka bava mu mwaro bajya ku wundi.

Ibiribwa biva mu mazi ni ingirakamaro cyane. Harimo injanga cyangwa se indagara cyangwa se mukini. Bikaba bikunzwe cyane ku isi hose, bitewe n'uko bivamo intungamubiri nyinshi cyane.

Amafi gakaranze mu mavuta gakunze kuribwa cyane n'abantu benji .Gafite akamaro kanini mu mubiri.

Ifi yo ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, bityo rero ifi ikaba ifite akamaro kenshi mu buzima bizwi yuko hari ibyo yongera mu mubiri bigatuma ikundwa ni ikiribwa gikomoka mu mazi ndetse mu nyanja nini cyane.

Insina ni ingirakamaro kubera ko irahingwa ikera ikavaho igitoki. Ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, kubera y'uko ari ikiribwa gikunzwe cyane n'abantu benshi ku isi.

Umuririma gw'ibigori basaruye, abantu bari kurima, bagiye guhingamo ibintu bijanye n'ibishimbo n'ibindi n'ibindi.

Ibirayi ni ibihingwa bikunzwe cyane n'abantu benshi ku isi hose bikaba bihingwa muri Afurika, amateke ni igihingwa gikunzwe cane muri Isitafurika muri Afuriwesitafurika ku isi hose kikaba gihingwa muri Afurika.

Igishanga ni ingirakamaro ku bantu benshi cyane batuye ahantu imbere yacyo. Bitewe n'uko bituma bahinga umuceri, ku bawuhinga biba byiza cyane, ukera neza utawize.

Umurima wa karoti ni igihingwa gikunzwe cane ku isi hose kivugwa nk'imbuto gitekwa, kinahekenwa...

Mu murima bahinzemo ibigori basaruye, hakaba harimo igiti cy'umuharavumba. Ni umuti wifashishwa guvura inkorora n'ibindi n'ibindi.

Umuhinzi ni ingirakamaro mu baturage bose ubwabo n'igihugu, ndetse n'ibindi bihugu, kuko ibyo turya byose biva ku muhinzi, bigatuma rero burya yubahwa cyane

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abayobozi bashinzwe kugenzura ibijyanye n'ubuhinzi .Barimo kureba ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bareba uko bihagaze muri iyi misi.

Urujya n'uruza gw'abantu b'abahinzi biganjemo abagore, abagabo bari mu gikogwa c'inama c'uko bagomba guhinga bakeza cane muri zino minsi.

Pavuro n'inyanya ziri mu gapaniye, ni ibiribwa bikunzwe cyane ku isi hose mu bantu bose.

Icyayi cyangwa se amajyane mu rurimi rw'icyongereza yajyaga bayita ti ,cyangwa se kofi, bikaba ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu ,buretse yuko urakinywa ukamererwa neza ,bityo kandi gitanga amafaranga.

Hano hari ikiribwa cyitwa amateke. Bakunze kucyita Bwayisi. Ni ikiribwa gikunzwe cyane.

Ipamba ryifashishwa mu gukora imyenda tujya twambara, abantu bari kuritunganya, kugira ngo ribashe kujyanwa mu nganda, habashe gukorwamo ibintu byinshi bijyanye n'imyenda yo kwambara.

Umuhinzi ni umuntu ukunzwe cane ku isi hose kubera ko yifashishwa mu kugaburira abandi bose bari ku isi. Umuhinzi akaba ahinga ibintu bitandukanye harimo bishyimbo, amajeri, ibijumba n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu murima bari kurahira basa nkaho bari gushima Imana y'uko yabakoreye ibyiza mu guhinga kwabo kw'amashu. Amashu ni igihingwa kiribwa cyane ku isi hose.

Insina z'ibitoki, ibitoki byifashishwa biribwa ku isi hose higanjemo ibihugu byo muri Afurika harimo Uganda, Tanzaniya, Rwanda, Kenya n'ibindi n'ibindi.

Ndabona umurima w'ipamba harimo abakozi batandukanye barimo baritunganya.

Ibigori ni igihingwa kiribwa, kikaba ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi bitewe n'uko kifashisha kivamo akawunga ko kurya, igikoma, n'ibindi n'ibindi, bityo kikaba gihingwa ku isi ahantu henshi.

Hano hari umukecuru uri mu murima w'umuceri, umugeri ni igihingwa gikunze kuribwa n'abantu benshi, kandi cyiza.

Imbata ni amatungo akunzwe cyane mu bihugu byo muri afurika. Yifashishwa aribwa, akoreshwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, akaba atanga amafaranga n'ibindi n'ibindi.

Imyumbati ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi higanjemo ibihugu byo muri Afurika harimo u Rwanda, Uganda, Tanzaniya, Burundi, Kenya n'ahandi n'ahandi, gikunzwe guhingwa mu burasirazuba bw'u Rwanda.

Amaronji ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, bityo rero bigatuma kiba igihingwa, ndetse imbuto zikoreshwa n'abantu benshi ku isi hose, higanjemo mu bihugu byo muri aziya, bitewe nuko babyitabira cyane.

Ibijumba ni igihingwa gikunzwe cane ku isi hose. Higanjemo ibihugu byo muri Afurika harimo Kenya, Yuganda, Rwanda, Tanzaniya, Burundi, Sudani. CiKabaka cyifashishwa kiribwa, gitera imbaraga.

Umuhinzi n'ingirakamaro ku isi hose, bitewe yuko aduha ibyo kurya ku bahinga n'abadahinga, bityo bakaba bagomba kubahwa ahantu hose.

Puwavuro ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose bitewe nuko zifashishwa abantu bateka imboga n'ibindi mu biryo bitandukanye, haba mu birayi, mu bitoki n'ibindi n'ibindi.

Ibishyimbo ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose higanjemo ibihugu byo muri Afurika, harimo u Rwanda, Yuganda, Kenya, Tanzaniya n'ibindi bindi. Byarayanze, umushogoro uwifashisha uribwa, abantu barawukunda.

Abahinzi ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, nzi yuko bagomba guhabwa agaciro. Kurima ni uguhinga, mbere y'uko ushyiramo ibindi uzatera.

Nigire ahantu higanjemo abahinzi n'abantu bari gu kondora ibindi bijyanye n'ubuhinzi uko bumeze ubuhinzi ni ingirakamaro, ku isi hose, bituma tubona ibyo kurya.

Amapera ni igihingwa gikunzwe cyane, kikaba gihingwa ahantu henshi hatandukanye, kikaba cyera ku biti binini cyane ndetse binakomeye.

Ubuhinzi n'ingirakamaro mu buzima bw'abantu, kuko guhinga bya mbere bitubeshejeho, n'abadahinga barya ibyahinzwe, bityo rero bigatuma umuhinzi ahabwa agaciro ku isi hose.

Ibigori ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, bitewe nuko byifashishwa havamo akawunga n'ibindi. Bityo ibyo bita mayizore cyangwa se ibigori by'umuhondo, byifashisha hakorwamo sosoma, n'ibindi bigiye bitandukanye haba harimo injugu n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abahinzi n'abagura inyanya, n'ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi ku isi hose.

Umurima w'icayi, abantu basarura icayi, icyayi gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi abantu banywa, no ku isi hose ni ingirakamaro kikaba cyifashishwa mu gukorera amafaranga.

Igiti cy'amaronji, ni igiti gikunzwe cyane ku isi hose bitewe y'uko amaronji akunzwe n'abantu benshi, amaronji avura ibintu byinshi bitandukanye ndetse akaba afatwa nk'imbuto zikomeye cyane.

Aha hari amapera, n'imbuto zikunzwe cyane n'abantu benshi, ziri mu kantu kameze nk'agatebo,

Amajeri, ni ibihingwa bihingwa n'abantu benshi mu Rwanda n'ahandi bikunze kuribwa cyane birakunzwe.

Urujya n’uruza rw’abantu, higanjemo abahinzi n’abakuzi, barimo bakura ibirayi. Ibirayi ni ingirakamaro mu buzima bw’abantu bwa buri munsi, kuko biribwa ndetse bikaribwa na benshi.

Amapera ni igihingwa kijya kirakundwa cyane ku isi, ahantu hose, bitewe n'uko ari ingirakamaro mu mubiri w'abantu, ndetse kikaba gifite akamaro kenshi cyane.

Amaperi ni igihingwa kiryoshye cyane kandi gikunzwe ku isi hose, kikaba kidahenze kandi...

Intara ni ingirakamaro, kubera ko ikoreshwa mu kugosora ibishyimbo cyangwa se n'ibindi n'ibindi harimo amasaka. Ibishyimbo ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, kubera ko bifata umwanya w'inyama.

Isoko rijagariracuruza ibindu bijanye n'ibiribwa higanjemo: ibirayi, ibijumba, amateke, imyumbati, imineke, ibihaza n'ibini n'ibindi...

Inkoko ni ingirakamaro ku isi hose, bitewe n'uko iraribwa, irororwa, ahantu henshi yifashishwa itera amagi yo kurya. Iduha amafaranga n'ibyokurya byinshi bitandukanye.

Abantu bari gukura ibirayi，ibirayi ni ingirakamaro，mu bihugu byinshi higanjemo ibyo muri Afurika， harimo Uganda， Kenya， Tanzaniya， u Rwanda n'ibindi n'ibindi....

Isoko ricuruza ibiribwa byinshi bitandukanye, higanjemo ibyo kurya harimo inyanya ,pome, ibirayi ,ibitunguru, imineke n'ibindi n'ibindi.

Indimu ni igihingwa gikunze cyane bikaba ari ingirakamaro Aho gikiza ari umuti. Gikiza inkorora, ndetse n'ibicurane, n'ibindi n'ibindi, ikaba ikunzwe cyane ku isi hose.

Voka n'imineke ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Tuzi yuko ari imbuto inziza zifite akamaro kenshi cyane mu mu mubiri, bityo bigatuma zikundwa ku isi yose.

Urusenda ni igihingwa gikunzwe cane n'abantu benshi ku isi hose, kubera ko kijaga kiratera peti umuntu iyo ari kukijya, n'ibindi bintu bikaba gikunzwe cane.

Ndabona umugore ari mo abagara ibigori mu umurima. Ibigori ni ingirakamaro ku abantu bose.

Ibirayi ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu ku isi hose, bitewe yuko biribwa cyane haba kubitogosa ,kuvamo ifiriti ,ariko kubiteka mu mavuta bikaba ari ibihingwa bihingwa cyane ku isi hose.

Umurima w'ibigori bihetse byifashishwa bashesha kawunga, igikoma n'ibindi byinshi bitandukanye bikaribwa n'abantu benshi ku isi hose.

Urujya n 'uruza rw'abantu higanjemwo abayobozi, bari kugenzura ibyo guhinga. Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane ku isi hose, bituma tubona ibyo kurya, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ingano ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose kubera ko cyifashishwa hakorwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amandazi ,imigati n'ibindi . Kikaba gihingwa ahantu mu bishanga ,higanjemo mu bihugu byo muri Afurika.

Urujya n’uruza rw’abantu, higanjemo abahinzi b’ibigori, ni ingirakamaro ku buzima bwa buri wese utuye kuri iyi site, kuko arya akawunga ndetse akanywa n’ibivamo, bigatuma yubahwa cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abanyeshuri, n'abarimu, bagiye mu bintu bijyanye na politiki, imyembe n'ingirakamaro mu buzima, bw'abantu bitewe n'uko ari imbuto, ni rumwe ruba rufite akamaro cyane, mu mubiri w'umuntu, bityo akaba ari igiti cy'impangurire cyera bitagoranye cyane kikera ari gito.

Ikigori ni igihingwa gikunzwe cane ku isi hose tujyaga turita mu rurimi rw'Icongereza mezi, kikaba kifashishwa bakuramo akawunga n'ibindi bintu bitandukanye binyobwa.

Voka ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, yuko ihingwa cyane kandi ikaba ikunzwe ahantu hose ku isi, ikaba ari igihingwa kikaba imbuto nziza cyane.

Abahinzi bari mu murima ni abantu bakunzwe cyane ku isi hose bitewe n'uko aribo batuma turya baraduhingira, bakeza tukagura ,bakagurisha.

Amapera ni ubwoko bw'imbuto bukunzwe cyane ku isi hose. Abana bakunze kuburya, abantu bakuru, bivuze ngo rero ni ibintu bizwi cyane bifite akamaro kenshi mu mubiri w'abantu.

Puwavuro, urusenda, ni ibiribwa. Bikaba ibihingwa bikunzwe cyane ku isi hose higanjemo mu bihugu by'abarabu. Bakunda kubikoresha cyane, kandi bikaba ari ingirakamaro cyane mu buzima bw'abantu.

Ibirayi mu ntara y'amajyaruguru bakunze kuja barabyita kirundo. Bisa nk'aho ari ibya vuba cane biracariho n'ibitaka.

Abahinzi barakomeye cyane. Uretse y'uko bahingira isi yose. Ibishyimbo ni ingirakamaro kuwabihinze ndetse n'abatarabihinze barabirya bakamera neza, bikaba bifite vitamine ihura kimwe n'iy'inyama.

Ingano ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi. Kifashishwa havamo ifarini, ifarini bavanamo imigati, amandazi, ingano rero...

Hari umurima w'ibihwagari, ndetse ndabona n'ibipfutse n'amashashi,

Mu buja n'uruza rw'abantu bari mu isoko, harimo abacuruzi n'abaguzi, harimo ubunyobwa, ni ikiriribwa gikunzwe kuribwa cane.

Amasaka ni igihingwa gikunzwe cyane, higanjemo ibihugu byo muri Afurika, harimo u Rwanda, Uganda, Tanzaniya, Burundi n'ibindi n'ibindi, kubera y'uko ajya yifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye harimo u ubushera n'ibindi bintu byinshi bitandukanye by'ibinyobwa.

Ubunyobwa ni ingirakamaro cyane ku babuhinze n'ababugura, kubera y'uko baraburya ndetse twese dukeneye kuburya, ku bari ku isi hose.

Isoko ryiganjemo, ibicuruzwa, wakwita impungure n'ibindi n'ibindi, impungure byifashishwa havamo, impungure injugu, akawunga n'ibindi n'ibindi.

Ibishyimbo ni ingirakamaro cyane ku bahinzi, ndetse n'abaturage. Ku bahinzi bibahesha amafaranga, nk'abaturage bakabona ibyo kurya bigatuma ku isi hose twubaha abahinzi.

Ibigori ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyitwa mayizoli bikaba ari ibigori byifashishwa mu kuvamo ifu zigiye zitandukanye z'ingirakamaro, haba injugu n'ibindi bitandukanye.

Umurima w'ibigori ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, y'uko ibigori bivamo, ni igihingwa kivamo ibintu byinshi bitandukanye, havamo ifu y'igikoma, akawunga n'ibindi mucururiza mukajya mwita nk'izi ...

Ibihingwa bitandukanye harimo ibishyimbo, amajeri, n'ibindi bitandukanye, soya ningirakamaro cyane, ku babihinga ndetse n'ababigura bakajya birya.

Umuceri ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose higanjemo ibi bihugu: Kenya, Uganda, Tanzania Etiyopiya, Amerika. Ni igihingwa gikunzwe guhingwa ahantu hari ibishanga.

Imifuka myinshi y'umuceri n'akawunga n'ibindi n'ibindi byifashishwa kuribwa ku isi hose, abantu benshi bajaga barabikunda cane higanjemo abo muri Afurika.

Igitebo cyubatse mu buryo bwa nyakatsi ni inzu za kera abantu bubakaga hejuru bagasakaza ibyatsi. Igitebo rero kikaba cyifashishwa mu kubikamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ibishyimbo ni igihingwa gikunzwe cane muri Afurika n'ahandi henshi cane, kikaba ari igihingwa gitera imbaraga nk'uko twakwita inyama, kikaba kiri kuyanga hariho umushogoro.

Umirima w'ubunyobwa. Ubunyobwa ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose, higanjemo ibihugu byo muri Afurika harimo u Rwanda, Uganda, Kenya, Diyarasi Kongo, Burundi, Etiyopiya n'ibindi bindi bigiye bitandukanye.

Amasaka ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, akaba akunda guhingwa cyane mu Rwanda, i Burasirazuba, no mu bindi bihugu byiganjemo byo muri Afurika, haba muri Uganda, muri Kenya, no muri Sudani, n'ahandi.

Amasaka ni igihingwa gikundwa cyane mu bihugu byinshi, higanjemo ibihugu byo muri Afurika harimo: u Gwanda, Kenya n'ibindi n'ibindi. Gikunze gukoreshwa mu kwenga ubushera, igikoma, hakaba gikunze guhingwa mu burasirazuba bw'u Gwanda.

Amajeri ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose, higanjemo ibihugu byo muri Afurika kubera ko ariho bayahinga harimo Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzaniya, Burundi, Sudani n'ahandi n'ahandi.

Abahinzi bafite akamaro kenshi, ubunyobwa ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi kandi gikoreshwa ahantu henshi kiba gihingwa, mu bihugu byiganjemo Uganda, Kenya, u Rwanda ndetse, n'ibindi byo muri Afurika.

Ubunyobwa ni igihingwa gihingwa cyane muri Afurika. Bukaba buribwa n'abantu benshi ku isi bifashisha mu gukora isosi n'ibindi bintu bitandukanye, babukaranga, babuhekenya.

Ibishyimbo ni ingirakamaro bita mu rurimi rw'icyongereza (beans), bikaba ari ingirakamaro cyane mu mubiri w'abantu, kubara ko bisimbura inyama ku bantu batazirya.

Ikiraro cy'inka ni ingirakamaro cyane, kubera ko gituma inka iba imeze neza kurusha uko yaba iziritse hanze, bityo rero bigatuma benshi bagikunda.

Inyama ni ikiribwa gikunzwe cyane ku isi hose, higanjemo ibihugu byinshi byo ku isi, bitewe nuko zifashishwa, zitekerwa abarwayi n'abatarwaye, zikaba zikunzwe cyane.

Ndetse nuyu ni umuganga cyangwa se dogiterite w'amatungo. Ingurube ni ingirakamaro itanga amafaranga ndetse n'inyama kubayirya.

Ingurube ni itungo rikunzwe cyane ku isi hose, bitewe n'uko ibihugu byinshi bikunze kujya birazorora, higanjemo ibi byo muri afurika.

Inyama ni ikiribwa gikundwa cane ku isi hose higanjemo ibihugu byinshi byo muri Afurika, muri Aziya n'ibindi byinshi. Zikaba ari inyama z''inga.

Hano, hari inka ziri kurisha ubwatsi. Inka zitanga amata ku bacuruzi n’abazoroye.

Aha hari inka, ziri mu kiraro ,zirimo zirisha ubwatsi, imwe ni inyana.

Ingurube ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bitewe n'uko itanga amafaranga ku bayorora n'abayigurisha, ikaba itanga inyama. Umuveterineri cyangwa se umuganga ni ingirakamaro ku buzima bw'amatungo.

Ikiraro ni nko mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari inzu y'inka. Inka ifite akamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, kubera ko itanga amafaranga ku bayigura, n'abayigurisha. Ikaba itanga amata ku bantu bose. Haba abayifite n'abatayifite kuko buri wese agomba kuyagura cyangwa se akayibona.

Hano hari abantu benshi basa nk'aho bari mu gikorwa cy'ubushakashatsi bwubuvuzi. Hari imbwa, ni inyamaswa abantu bakunze gutunga, ibafasha kurinda nk'urugo rwabo cyangwa n'ibindi bintu.

Veterineri cyangwa se abadogiteri . Ni mu rurimi rw'icyongereza ariko bifatwa nk' Ikinyarwanda bitewe ko benshi barukoresha akaba ari abaganga bakora mu buryo bwo kubaga abantu haba umutima cyangwa se mu mutwe n'ahandii. Bityo ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu batuye isi yose.

Veterineri ni abaganga bavura amatungo, ingurube ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, bitewe n'uko itanga amafaranga ku bazicuruza n'abazigura, ikaba itanga n'inyama.

Veterinari cyangwa dogita, muganga w'amatungo ujya avura amatungo menshi atandukanye, harimo imbwa n'ibindi, ihene, intama n'ibindi bitandukanye.

Inkoko z'inzungu bajyaga barita koroyira cyangwa pondezi, zikaba ari inkoko zikunzwe cyane kuribwa inyama. Zikaba zororwa cyane bakoresheje imashini n'indi miti igiye itandukanye kugira ngo zikure.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abagore, umugabo utuye. Ihene ni itungo cyangwa se ikinyabuzima cyangwa se inyamaswa yo mu rugo, itanga amafaranga, ndetse n'inyama, igatanga n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ingurube ni amatungo abantu bajya baratunga cyane. Mu majyaruguru bakaba bakunda kuyarya cyane, no mu Gihugu hose abantu bakunze kuyatunga cyane.

Ingagi cyangwa se inkende cyangwa se izindi nyamaswa zitanga amafaranga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe nuko zikurura ba mukerarugendo bityo zikaba ari ingirakamaro cyane.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'inyoni, ifite umunwa muremure, ifite amabara umukara n'ubururu n'umweru. Ikunze kuba mu ishyamba rinini cyane ndetse ry'inzitane, ikaba igaragara neza cyane.

Hano hari umushwi gw'imbata. Inyamaswa zikunze gorogwa mu ngo z'abantu ndetse bajagaba ranazijya n'amagi gazo.

Imbata yo mu mazi ikunzwe cyane kuribwa n'abantu bahora mu mazi cyane baroba amafi, bikavugwa yuko nayo bayifata.

Inyamaswa igira ubukana cyane, ikunze kuba mu ishyamba rinini cyane, rikunze kubamo izindi nyamaswa, ndetse n'utundi dutoya, ikaba yitwa idubu.

Inyoni zikunze kujya zirarya ibintu bijyanye ,n'ibigori, amasaka, ndetse n'ibindi biribwa by'inyoni. Mu rurimi rw'i Kinyarwanda bazita ibishwi.

Inyamaswa bakunze kuja barita ibikagari, bikunze kujya ibigori, amasaka, byitwaye nk'inkoko n'abantu bakunze kubijya, bikunze kuba mu gace k'iburasirazuba.

Inyamaswa isa n'ibiguruka bakuze kujya barita ikiyagari, ikunze kuba i Burasirazuba bikunze no kuribwa cyane n'abantu benshi biganje mu kurya ibigori, amasaka n'ibindi n'ibindi.

Inyamaswa iba mu ishyamba, iri mu bwoko bw'urukwavu, ikaba ikunzwe cyane, kandi yiruka birenze, kimwe n'urukwavu, bityo bigatuma ireba cyane.

Inyamaswa iguruka yo mu bwoko bw'inyoni. Ikunze kuba ahantu mu ishamba rinini cane. Ifite umunwa muremure ikunze kurya udusimba higanjemo imibu n'utundi n'utundi.

Inuma ni ingirakamaro cyane ku isi, bityo y'uko iba itungo mu rugo rw'abantu, bityo rero bigatuma abantu benshi bayorora, y'uko n'icyo inyamaswa nziza cyane.

Inyamaswa yo mu ubwoko bw'inyoni ikunze kuba ahantu hatuje cyane mu ishyamba rinini nk'aho twavuga muri Amazone n'ayandi mashyamba agiye atandukanye.

Inyoni nziza cyane, ikunze kuba mu ishyamba rituje, ikaba ari inyoni ikunzwe cyane, no kuyibona amaso biba ari byiza, bitewe n'ukuntu igaragara.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'inyoni ikunze gupfumura ibiti yifashishije umunwa wayo kubera ko ari muremure. Ikaba ifite n'ibintu by'imisatsi wakwita nk'ibisunzu, ikaba ikunze kuba mu shyamba rinini.